Ibikoresho bigiye bitandukanye biba biri mu mabara menshi anyuranye, bikunze kwifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke kugira ngo babashe kumenya kubara n'amabra menshi cyane atandukanye.

Udupupe dushushanyije ku gitabo dukunze kuba turi mu mashuri yigirwamo n'abana biga mu mashuri y'inshuke aho utu dukoresho ari ingenzi cyane, abana batwifashisha igihe cyo kwiga.

Inyubako nziza yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati, bigaragara ko ari ikigo cy'ishuri, iriho icyapa ishushanyijeho inka ndetse n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Gurudu iri mu mabara y'umweru aho ifite agashumi hejuru bafataho. Ikaba ari ingenzi cyane, kuko ikunze kwifashishwa, batwaramo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, igihe umuntu agize urugendo.

Igipupe cy'ingona aho kiri mu mabara y'icyatsi kikaba cyasamye kiri guseka, kikaba cyifashishwa bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke uko baririmba ngo by bag na google.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, yubakishije amabati ndetse n'umucanga, iriho abanyeshuri bari gukina imikino igiye itandukanye, ibafasha kuruhuka mu mutwe, bakagira icyo bimarira.

Igiparara gisa neza, kiri ku cyatsi gisa icyatsi, gifasha umuturage kubona ari cyiza, kikabasha kurindwa, kikazana amadovize iyo bagisuye.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, bikoreshwa mu kwiga n'abana b'inshuke, bagenda bunguka ubumenyi bugiye butandukanye, bubafasha kuvumbura ndetse no kwiga amasomo abungura ubumenyi.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, yubakishijwe amabati y'umutuku, isize amarangi y'umweru ndetse n'imitako igiye isizeho, iri imbere y'ibyatsi bifasha abanyeshuri kuhakinira.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere ikaba ari inyubako y'amagorofa, hakaba hari ubusitani bwiza buteyemo iminyega abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bakunze kujya kota saasita.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, ifite imiryango minini ya metalike, irimo ibicuruzwa biri mu mifuka ndetse no mu tuvido, ibiri mu makarito ndetse n'ibindi bifasha umucuruzi gucuruza akabona amafaranga.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho y'ishuri rya Nyagatare rifasha abanyeshuri kwiga amasomo agiye atandukanye, abungura ubumenyi kugira ngo bagire icyo bigezaho ndetse n'icyo bageza ku gihugu.

Akazu kari mu mabaragiye atandukanye y'ubururu, icyatsi ndetse n'umutuku, kakaba kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke, igihe baba bari kwiga amasomo menshi agiye yatandukanye kugira ngo batsinde.

Inyubako nziza yubatse neza, ifite urugi rw'umukara ndetse n'amarangi y'umweru, iriho imitako igiye itandukanye hashushanyijeho umwana, umukubuzo n'akadobo.

Ibikinisho bitandukanye bikoreshwa n'abana bato kugira ngo bidagadure, bunguke ubumenyi bugiye butandukanye, bubafasha kwiga bakiteza imbere, bakagira icyo bamarira igihugu ndetse nabo ubwabo.

Ibikinisho bitandukanye bikoreshwa n'abana kugirango bige amasomo yabo neza, babashe kugira ubumenyi bunguka, biri mu mabara y'umuhondo, umutuku ,icyatsi ndetse n'iroza.

Icyumba kiza kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye ameza, intebe ndetse n'ibikoresho by'ishuri, bifasha abanyeshuri kwiga neza bakunguka ubumenyi bugiye butandukanye.

Ibikinisho ndetse n'ibikoresho bitandukanye abanyeshuri bakoresha, harimo amakaramu, udusiba, amasaha, amakayi ndetse n'utuntu tw'utuzeru, bibafasha kwiga neza.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho, zubakishije amabati ndetse zifite amadirishya asize irange ry'umukara, imbere yayo hari ikibuga gikinirwamo abanyeshuri bakabasha kwidagadura.

Udukoresho tugiye dutandukanye, twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza aho harimo; imashini ,n'amakereyo, ndetse n'amarati. Byifashishwa n'abo banyeshuri kugira ngo babashe kumenya ubwenge.

Ibikoresho bitandukanye harimo imikasi, ibisiba utwandika, udusiba, amarati biri ku mukeka bifasha abanyeshuri kwiga bakunguka ubumenyi bugiye butandukanye.

Abana bambaye impuzankano z'ishuri ziri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru. Bakaba bambaye udukweto tw'umukara n'amasogisi y'umweru bigaragara ko biga mu mashuri abanza bagiye ku ishuri.

Hari ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu kwiga, harimo amakaramu, ibitabo ndetse n'imikasi ikata, akuma gateranya impapuro ndetse n'ibindi.

Igishushanyo gishushanyijeho umunyeshuri w'umukobwa ndetse n'umuhungu cyo ku ishuri runaka, gifasha abanyeshuri kubona ko babasha kunguka ubumenyi bugiye butandukanye buzabateza imbere.

Agasanduku karimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho haba harimo amarati, uducaruziga ndetse n'amakaramu y'ibiti bifashisha bari kwiga imibare.

Igishushanyo kiriho ibikoresho bishora imirongo, nk'amarati maremare, ay'uruziga ndetse n'ayandi, bifasha umunyeshuri kwiga ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa mu gushushanya.

Ibikinisho byiza bikiniraho abana, bicunga kugira ngo bidagadure basabane n'abandi, babashe kunguka ubumenyi bugiye butandukanye, bugira icyo bubagezaho, mu bigendanye n'iterambere.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho haba harimo intebe nziza cyane zigiye zitandukanye ndetse n'ibikuta biteye amarangi y'umweru.

Umuryango mwiza w'ishuri rya Matimba nderabarez,i ufasha abanyeshuri kwigira ahantu hafite umutekano usesuye, bibarinda kuba bakangirizwa n'amabandi ndetse bakagira umutekano.

Inyubako nziza zubatswe ku buryo bugezweho zigeretse gatatu, zubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati y'ubururu, zifite umuhanda ndetse n'ubusitani bwiza bw'indabo, bifasha abahigira ndetse n'abahakorera ibikorwa bitandukanye kuba ahantu heza.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa n'abanyeshuri kugira ngo bunguke ubumenyi butandukanye, harimo imikasi, udusiba, ibyandika ndetse n'amarati ashora imirongo, ibitabo ndetse n'ibikinisho biri ku ntebe ifite ibara ry'umukara.

Ibishushanyo bigiye bitandukanye bifashisha bari kwigisha abana biga mu mashuri abanza kugira ngo bajijuke mu mutwe bajye bamenya no gutahura ibintu ndetse inyuguti n'imibare.

Bowate nziza y'umutuku irimo ibikoresho bitandukanye, nk'amarati, gome isiba ndetse n'ibindi bifasha umunyeshuri kwiga amasomo nk'imibare akayatsinda neza.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga imyuga n'ubumenyingiro, aho harimo irati, agacaruziga ndetse n'ikaramu y'igiti, byose bifashisha bari kwiga isomo ry'imibare.

icyumba cyiza cyubatse ku buryo bugezweho, gifite intebe nziza ndetse n'mezaza y'uruziga, harimo abantu bashaka kuhakorera inama kugira ngo bungurane ibitekerezo.

Hariho udukoresho tuba twarifashishwaga mu muco gakondo wa kera ariko tukaba twifashishwa ubungubu, bigisha abana bega mu mashuri abanza, aho harimo icumu, ishoka ndetse n'uruhaburuzo.

Abanyeshuri benshi cyane biga mu mashuri yisumbuye, bari kugenda urujya n'uruza bigaragara ko batashye, umwaka w'amashuri wabo ukaba urangiye batashye bagiye mu biruhuko kwishimana n'imiryango yabo.

Icyumba kirimo utubati turimo ibitabo bigiye bitandukanye, bifasha abanyeshuri kwiga amasomo agiye atandukanye, abungura ubumenyi bu ubageza ku iterambere ryabo.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari inyubako y'amashuri. Hakaba hari kugendamo abantu bagiye batandukanye, harimo abambaye utujeri tw'icyatsi n'abandi bambaye utw'umuhondo, bari kugenda baganira.

Umuyobozi w'ikigo cy'amashuri yisumbuye, uri kubwira abanyeshuri amabwiriza agiye atandukanye agenga ishuri kugira ngo babashe kwiga neza, batsinde amasomo.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, ifite umuryango wubatse neza wo ku kigo cya Nyagatare, ufasha abanyeshuri kwinjira ntibasohoke ngo batoroke ikigo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bari mu nzu y'isomero isomerwamo ibitabo bitandukanye, bibungura ubumenyi bakabasha kumenya ubwenge, bugira icyo bubagezaho mu gihe kiri imbere.

Umunyeshuri uri kwiga amasomo agiye atandukanye, wambaye karuvati y'umukara ishati y'umweru ndetse n'ijipo, ufasha umunyeshuri kwiga neza, ndetse akunguka ubumenyi bugiye butandukanye.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amarangi y'umuhondo, ihagazemo abantu bari kugenda bajya mu byumba bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'icyatsi ndetse n'umukara aho barimo barishimisha batera morali kubera ko bari guhabwa inama zigiye zitandukanye zibasha kubafasha mu myigire yabo.

Abanyeshuri bari gufata ifoto kugira ngo bajye bibukiranya ibikorwa byabo bakoraga biga, bambaye impuzankano z'umweru ndetse n'ubururu bwijimye bafite n'amakaruvati, izabateza imbere ku byo bize bakigeza ku byo bashaka.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye, abambaye iz'umweru ndetse n'ubururu bwijimye, bari kubwirwa amabwiriza agiye atandukanye, agenga ishuri ryabo muri rusange.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako ari ndende cyane ku buryo umuntu wese uyirimo, ibasha gutuma amererwa neza maze akagubwa neza.

Abanyeshuri batwaye icyapa cyanditseho amagambo yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane, bagiye aho bari buze kwigira amasomo agiye atandukanye agendanye n'amateka y'igihugu cyabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'ikigina, hari n'abambaye iy'ubururu bahagararanye n'abarimu babo bari gufata ifoto.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabati, iriho imbere abanyeshuri ndetse n'abarimu babo, bari gufata ifoto kugira ngo bazajye bibukiranya.

Hari ibikoresho bitandukanye bikorwa mu ibumba, bifasha ababumbyi kubona amafaranga abatunga n'imiryango yabo, bakagira icyo bimarira ndetse n'icyo bamarira igihugu.

Inyubako nziza y'icyumba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bya murandasi, bifasha abanyeshuri kwiga amasomo agiye atandukanye, abafasha kwiyungura ubumenyi bakagira icyo bamarira igihugu ndetse nabo ubwabo.

Intebe nziza za kijyambere ziri mu ibara ry'ubururu, zifasha abazicaraho kwicara ahantu heza, habarinda kugira ibibazo bigiye bitandukanye bahura na byo mu bigendanye no kubona aho bicara.

Intebe nziza zigezweho zigaragara ko zakozwe n'abahanga, intebe z'umukara zikaba ziri mu cyumba cyiza cyane ndetse zigaragara nkaho bazigiraho mu byumba bya kaminuza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ishushanyije ahantu, bigaragara ko yashushanyijwe n'umunyeshuri w'umuhanga wize muri kaminuza y'u Rwanda, ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro.

Udukoresho tw'ubukorikori tugiye dutandukanye, twifashishwa n'abantu biga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro mu Rwanda, aho badakora bakatujyana ku masoko, tukagurwa kubera ubuhanga tuba dukoranye.

Abanyeshuri baba barizeye muri kaminuza y'u Rwanda baba bafite ubuhanga buhanitse aho baba bazi no gukora udushushanyo tugiye dutandukanye binyuze mu bintu by'ubukorikori baba baragiye biga.

Intebe nziza ya kijyambere y'ubururu yicaraho abanyeshuri, bakiga amasomo agiye atandukanye, bibarinda kuba bagira umutekano udahagije, ndetse bakiga n'amasomo agiye atandukanye.

Umuryango wa mitalike usize amarangi y'umweru wo mu cyumba cya cumi na gatatu, ufasha abantu kutibwa ndetse bakagira umutekano aho baba mu bigendanye n'imibereho.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iyi nyubako irimo butabigiye bitandukanye, ikaba irimo amatara meza cyane kandi yaka neza.

Umuhanda mwiza urimo abagenzi bagenda kugira ngo bagere iyo bagiye amahoro, babashe kuba bagira icyo bigezaho, mu bigendanye no kujya ku kazi, ndetse no kujya mu mirimo yabo ya buri munsi.